Inzu cyangwa se inyubako, icururizwamo ndetse igatanga serivisi z'ubuvuzi, ku buzima bwa muntu, harimo nko gutanga imiti, gusuzumwa ndetse no kuvura indwara zoroheje, ikaba iba ari rusange.

Umuryango munini, ugaragara mu ibara ry'umukara, hariho amagambo aranga aho hantu, ko ari ibitaro bya Ruli, ndetse abarwayi babigannye, bategereje gufashwa.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi irimo n'ingofero, udupfukamunwa ndetse n'impuzankano ibarinda umwanda. Ndetse bambaye n'udupfukantoki, umwe afite n'udukoresho twumva ugutera k'umutima, basa n'aho bari kwita ku murwayi.

Abantu bicaye ndetse banaryamye ku bitanda byo kwa muganga , abo bantu bakaba bari mu byiciro bitandukanye, barimo abana abakuru abarwayi ndetse n'abarwaza , abo bantu rero bakaba bagitegereje ubufasha ,ndetse bakaba bacumbikiwe n'ibitaro mu gihe bakitabwaho na muganga.

Ubwoko bw'igiti cyangwa se ikimera cyitwa itabi, gihingwa kikitabwaho, hanyuma kikazaza kwanikwa kugira ngo kivemo itabi ku baririkunda, cyangwa se kigacishwa mu nganda kugira ngo kibashe kugira ubuziranenge.

Amababi y'igihingwa kigaragara mu ruti ruba ruri kurandaranda mu bindi biti, byitwa ibishayote, aho bijya bizana imbuto zisa n'umweru bitewe n'ubwoko cyangwa se icyatsi. Bikaba birandaranda, bifite amababi ndetse bikagira uruti rw'imigozi gozi.

Abaturage bateraniye hamwe, bari mu gikorwa rusange kitwa umuganda, aho bari gutinda ikiraro bifashishije ibiti, kugira ngo abagenzi bajye barabona aho bagenda mu gihe bari kwambuka umugezi.

Igiti cyangwa se ibyatsi bita umugwegwe. Ni bimwe mu byatsi by'ingirakamaro, aho usanga biba bifiye amababi afite akamaro gakomeye cyane, kuko ayo mababi iyo asaruwe akanikwa avamo imigozi ikomeye cyane, ikoreshwa mu bintu bitandukanye nko guhambira, cyangwa se kuzirika ibintu runaka.

Ibyatsi bitandukanye harimo ibyimejeje ndetse n'ibyatewe. Bigiye bifite imimero itandukanye. Harimo n'ibivura indwara. Harimo icyitwa umuravumba kizwi mu kuvura indwara zo mu nda ndetse n'iz'ubuhumekero.